Amazi atemba, harimo ibiyaga ndetse n'imigezi. Amazi atemba ni amazi abantu bagomba kwita ku isuku yaho kuko iyo atitaweho ari mu bintu byangiza ibidukikije, akaba yatera ibiza ndetse n'ibindi.

Abana bagomba kwitabwaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko bagira indwara nyinshi barwara nk'iseru, imbasa n'inzoka ndetse n'izindi. Abana bagomba guhabwa indyo yuzuye, ibirinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri.

Ivomo rusange ni ahantu abantu benshi bahurira bagiye kuvoma amazi. Ivomo rusange tugomba kurigirira isuku kubera yuko haba harimo amazi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi nko guteka ndetse no gukora amasuku.

Kandagira ukarabe ni igikoresho abantu benshi bifashisha kugira ngo basukure intoki zabo, yadufashije mu gihe cya corona virus. Ubwo abantu bashakaga gusukura intoki mu buryo bwo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya corona virus.

Abagore bari mu bantu baterwa inshinge zigiye zitandukanye, nk'urushinge rwo kuboneza urubyaro, urushinge rukingira kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'izindi nkingo ziturinde ibyorezo.

Abantu baje ku ivomero gushaka amazi, amazi afite akamaro ku buzima bwacu turayatekesha, tukayamesesha ndetse agakora n'andi masuku, ku ivomero ni ahantu abantu bagomba kugirira isuku kugira ngo bavome amazi asukuye.

Abana bahuye n'ihungabana bagomba kwitabwaho, kuko baba bafite ibibazo byo mu mutwe. Harimo nko kugira umunaniro ukabije ndetse no gutekereza cyane. Bagomba guhabwa indyo yuzuye ndetse bakanaganirizwa.

Ubuzima bwo mu mutwe, ni ingenzi kuri buri muntu wese kuko iyo umuntu afite ikibazo mu mutwe ntabwo atekereza neza, ubwonko bwiwe buba bwarangiritse. Rero abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, bagomba kwitabwaho, bakaganirizwa kugira ngo na bo bagire ubuzima bwiza.

Koza amenyo biri mu bimwe mu bintu bituma tugira ubuzima bwiza, iyo amenyo asukuye umuntu agira mu kanwa heza hahumura ndetse akaba atagira indwara zimwe na zimwe nko gucukuka amenyo ndetse no kuyakuka.

Abaganga ni abantu badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubonamo ubwoko butandukanye bw'abaganga nk'abaganga bavura amenyo, amaso, umutwe ndetse no mu nda. Abaganga ni abantu b'ingenzi mu buzima bwacu kuko iyo turwaye baradufasha.

Abantu bakuze ni abantu bagomba kwitabwaho bakabategura indyo yuzuye harimo imboga, imbuto ndetse n'ibitera imbaraga. Abantu bakuze bari mu bantu baba bafite intege nkeya bashobora gufatwa n'indwara mu buryo bworoshye.

Abantu bageze mu zabukuru bagomba kwitabwaho nko guhabwa imiti igihe barwaye ndetse bagategurirwa indyo yuzuye, indyo yuzuye tubona ko iri mu bintu bikomeza imitsi kandi abantu bari mu zabukuru baba bakeneye kugira ngo imitsi yabo ikomere kugira igihe cyabo cyo kubaho cyiyongere.

Abantu bakuze ni abantu bakenera kwitabwaho ndetse bagahabwa ibyishimo n'abana babo nk'abuzukuru babo, bakabashagara bagira ngo bishimane, basangire ndetse babe banakina n'udukino tumwe na tumwe kugira ngo bishime.

Urubyiruko ni twe tugomba gufata iya mbere mu kwirinda SIDA, rimwe na rimwe abantu banduye usanga abenshi bari mu rubyiruko, rero tugomba gufata iya mbere kugira ngo tube twakwigisha abandi kuba twakwirinda SIDA.

Abagore bonsa ni abantu bagomba kwitabwaho kugira ngo abana babo bagire ubuzima buzima, bakabahereza indyo yuzuye, harimo imboga, imbuto ndetse na mata bikabafasha kugira ngo abana babo babone amashereka meza.

Abaganga ni abantu bita ku buzima bwacu ndetse bakaba bafasha n'abantu bashaka gutanga amaraso kugira ngo n'abayakeneye bayahabwe. Kwa muganga ni ahantu tugomba kujya twitabira cyane kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu bumeze. Ndetse abaganga bari mu bantu bafite akazi gakomeye kuko babungabunga ubuzima bw'abantu.

Siporo ni ingenzi ku buzima bw'abantu bose, siporo zigufasha kugorora imitsi, gukomeza amagufa, ndetse zikakurinda indwara, harimo nka obezite, ndetse no kugira umunaniro ukabije.

Ibyatsi harimo kapusine, kapusine ni icyatsi kirandaranda, gikoreshwa mu buvuzi gakondo, urugero kivura inkorora, umuriro ukabije ndetse n'icyatsi kirura cyane cyifashishwa mu bindi bintu bigiye bitandukanye.

Ibiti ni ingenzi ku binyabuzima bituma ahantu hagaragara ko hafite isuku ndetse tugira amoko menshi atandukanye y'ibiti: harimo inturusu, imihati ndetse n'indabo, abashakashatsi bagaragaje ko ibiti ari bimwe mu bintu bituma imvura igwa kandi bigatuma ahantu hagaragara isuku.

Ibyatsi bidufasha mu miti gakondo harimo umuravumba ndetse n'ibindi byatsi nk'ibikakarubamba, imyeya ndetse n'ibindi, umuravumba ni kimwe mu byatsi bidufasha kuba twakwivura inkorora, mu nda ndetse n'izindi ndwara.